Umuhanda ukoreshwa n'abantu benshi kandi batandukanye, kandi bava ahantu hatandukanye, harimo ibintu byinshi ubarije ibintu byose, harimo ibidukikije ibyapa biyobora abagenzi.